Ni ihererekanywa ry'uburyo wakiriye amafaranga n'uburyo wayakuyeho n'ikigaragaza ko na nimero z'aho yavuye ubwo ni iy'uwo muntu uri kuyikoresha muri emutiyene.

Ndabona ari iduka ririmo, ricururizwamo amazi n'amata, ni nk'akaresitora gatoya, gacururizwamo ibijyanye nibyo kunywa cyane cyane amata.

Umugore uri mu isoko ucuruza ibijyanye n'ibyo kurya ariko akaba arimo guhata ibirayi, urebye ashobora kuba acuruza ibyo kukurya bitetse cyangwa acuruza abafasha abaguze kugura ibi ibiri hasi yego.